Ahantu bacururiza imiti hagirira abaturage akamaro gakomeye cyane, kuko haba harimo imiti itandukanye ku buryo iyo ugezeyo ubabwira indwara urwaye bakaguha imiti ihwanye n'indwara urwaye.

Isanduruma ni nziza cyane, amatungo arazikunda, ku buryo itungo ryariye isanduruma riba rimeze neza cyane, urugero ingurube zikunda isanduruma ndetse n'inkwavu zikunda isanduruma, urukwavu rwariye isanduruma ruba rumeze neza cyane rutanga umusaruro ushimishije.

Intoryi iyo wazitayeho neza cyane ziraryoha cyane, kandi zigira isosi nziza cyane, zirinda indwara kandi abantu bahinga intoryi bakunda kuba bazisasiye ibyatsi kugira ngo zidapfa .

Ikidega ni cyiza cyane, kubera ko kivura umugongo, kandi umuntu iyo yatetse ikidega akakivanga mu birarayi akabirya, ntabwo bimunanira kubirya, bibamo imboga nziza cyne, kandi akabirya biri no kumuvura indwara arwaye.

Imiti ya kinyarwanda ni myiza cyane, kubera ko ivura abantu barwaye amarozi, ndetse n'iyo umuntu ari kuribwa mu nda akanywa umuti wa kinyarwanda, ahita akira akumva ameze neza.

Igisura ni cyiza cyane, kidufitiye akamaro gakomeye cyane, kubera ko kivuraga igifu, kandi n'iyo ugiye guteka imboga, kivamo imboga nziza kandi ziryoshye cyane.

Ibibonobono bigira akamaro kanini cyane kubera ko usanga amatungo amwe na amwe abirya. Kandi iyo ikibonobono kimaze gukura bagikoramo inkingi bigatuma zifata ibitoki kugira ngo bitagwa.

Imiti ya kinyarwanda ivura indwara zigiye zitandukanye, ivura indwara z'amarozi, ivura ibirenge iyo byabyimbye, kandi ivura n'umuntu warwaye mu nda. Indwara za kinyarwanda iyo umuntu yazirwaye akanywa umuti wa kinyarwanda arakira.